Igishanga kigaragara nk'aho gihinzemo igihingwa cy'umuceri mu hejuru hari amagambo y'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara wo hasi hari andi magambo wahanditse.

Umugabo ndetse n'umugore bari guseka bateruye abana babiri buri wese ateruye umwana umwana bafite imisatsi myinshi ku mutwe hepfo yabo handitse amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Umukobwa ugaragara igice cyo hejuru cy'igihimba, yambaye umwambaro urimo ibara ry'umukara, yambaye amadarubindi ku maso, yambaye ingofero igaragara mu ibara ry'umuhondo, y'ubwubatsi, arimo araseka.

Umugabo w'umwirabura uri guseka wambaye umupira w'umweru yambaye isaha ku kuboko imbere ye hari mudasobwa afite ikintu ari guhereza umugore w'umuzungu umuhagaze imbere nawe ari guseka.

Umugore uhagaze mu mbuga isashemo amabuye, ahagaze hagati y'abagabo babiri, bafite urufunguzo runini rw'umweru rwanditsemo amagambo atukura, inyuma ye hari imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'umweru.

Umusore wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi n'inkweto z'umukara yambaye ingofero y'urugara yambaye n'isaha ku kuboko imbere ye hari undi muntu wambaye imyambaro y'mweru utagaragara neza mu isura, imbere yabo hari imodoka.

Inyubako imbere yayo hahagaze imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo, imbere hakaba hahagaze abantu bane harimo umugore umwe n'abandi bagabo babiri bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru, rwanditseho amagambo yo mu ibara ritukura.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka, umugabo umwe muremure wo hagati ari gusuhuza uwo ku ruhande mu kiganza, yambaye ingofero ndetse n'amadarubindi bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru, inyuma yabo hari imodoka.

Imbuga isashemo amabuye hakaba hahagaze abantu batatu, babiri bo ku mpande bambaye imipira y'umukara wo hagati yambaye umupira w'amabara y'umweru, bafashe urufunguzo runini rw'umweru mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ebyiri z'ubwikorezi.

Abagabo batatu bahagararanye, babiri bafite udukapu tw'umutuku mu ntoki, babiri bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, bagaragara nk'abazungu. Iruhande rwabo har’imodoka y'umweru nini y'ubwikorezi.

Imbuga isasheho amabuye, ihagazemo abantu batatu, harimo abagabo babiri hagati yabo bahagazemo umugore ufashe urufunguzo rwanditseho amagambo atukura, iruhande rwabo hari imodoka y'umukara igendamo abantu ku giti cyabo inyuma yabo hagaragara inyubako.

Abagabo batatu, harimo umwe wambaye igisaruBeti cy'ubururu ufite agafupu gatukura mu ntoki, n'abandi babiri bose bafashe rufunguzo runini rw'umweru mu bahagaze imbere y'imodoka nini yo mu ibara ry'umeru.

Inote ebyiri yo hejuru yanditseho ibihumbi bitanu iriho abantu bari kubyina b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'intore abakobwa bambaye imyambaro ya Kinyarwanda ind yo hepfo iriho igiti gifite imbuto ndetse n'igorofa.

Icyumba gifite ikindi cyumba kirimo amadirishya, imbere yicayemo abantu, inyuma ku idirishya hagaze abandi, ku idirishya rya mbere hagaze umusore wambaye ingofero, uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo, naho ku idirishya rya kabiri hahagaze umugore wambaye ipantaro y'umutuku, ku rindi dirishya hahagaze undi musore.

Ibiceri bibiri, icyo hejuru cyanditseho mirongo itanu ndetse n'amagambo hagati, munsi hariho ikirangantego, ku ruhande hariho agashami k'igiti kagaragara nk'agafite utubuto, munsi hari igiceri kirimo agashami k'igiti kazengurutswe n'amagambo.

Umuntu utagaragara mu isura wambaye ikote y'umukara, n'ishati mo imbere ufite ikaramu mu ntoki imbere ye hari ikirahure, imbere yacyo hari mudasobwa ziri kwaka.

Icyumba kirimo ameza ndetse n'intebe ku meza hateretse indobo ibonerana, imbere hagaragara akabati karambitsemo amajerekani y'umweru, hejuru hakaba hari inkongoro ebyiri banywesha amata.

Urugi rukinguye, imbere hagaragara icyapa, kiriho ishusho y'umwana, wambaye imyenda y'umweru, ufite igikombe mu ntoki, ufite imisatsi ifungiye inyuma, ufite ibintu by'umweru hejuru ku munwa, hasi hashushanyijeho inka ntoya.

Abakobwa babiri bahagaze mu cyumba gifite icyapa inyuma, bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru mu mutwe, imbere yabo hahagaze abandi bantu babiri, bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, imbere hagaragara icyapa cy'ubururu n'umweru cyanditsemo amagambo.

Igiti kiziritseho inka iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru giteye mu murima, ku ruhande hari umuntu ufite indobo y'umutuku n'utujerekani duteretse imbere kumeza. Imbere ye hahagaze abantu babiri, hari n'umuryango ukinguye w'icyatsi kibisi.

Umuntu wambaye ishati iciyemo imirongo, ufite igikombe kinini mu ntoki, imbere ye hari ameza yateretseho igikombe ikayi ndetse n'icupa, inyuma ye hari andi meza ateretseho akayunguruzobo.

Akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye, imbere yako hicaye umuntu wambaye ikote ry'ikoboyi utagaragara neza mu isura, imbere hahagaze umuntu wambaye umupira wumukara w'amaboko magufi, inyuma ye hari intebe y'ubururu igaragara igice gito.

Icyumba kigaragara nk'icy'bacururizamo ibyo kunywa, hahagaze umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo. Inyuma ye hari intebe y'ibara ry'ubururu, imbere hari akabati gaturitsemo byo kunywa biri mu matsinda.

Ikiganza gifashe agakombe gatoya kari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru kanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umweru, hasi hariho igishushanyo cy'urubuto rw'inkeri.

Umwana ufite agakombe ku munwa, ari kunywa, agafatishije n'ibiganza bye byombi, hari n'ikindi kiganza gifasheho, gisize ibara ry'ubururu ku rutoki rw'igikumwe, umwana agaragara igice gitoya cy'isura.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara, w'amaboko ku magufiya, afite akajerekani k'umuhondo mu ntoki, ari gusuka amata mu bikombe biteretse ku masahane, ayo masahane akaba ateretse ku meza.

Icyuma cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, gifite robine munsi ya robine hari akajerekani k'umweru gateretse ku meza, ku ruhande hicaye umugore we wambaye imyambaro y'umweru, yicaye ku ntebe y'umweru.

Umukobwa wazamuye igikumwe ari guseka, yambaye umupira w'ubudodo uri mu ibara ry'umuhondo, afite imisatsi migufiya mu kindi kiganza afitemo amafaranga menshi, harimo inote zanditseho ibihumbi bibiri iyidi ishushanyijeho inyamanswa y'ingagi.

Ibiganza bifite telefone ngendanwa mu ntoki, iri kwaka igaragaramo amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku mu kindi kiganza afitemo urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ashushanyijeho n'imbonerahamwe.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi ufite umusatsi mugufi ku mutwe, ufite ikiganza kirimo telefoni ari kuyerekana, terefone yanditsemo amagambo y'umukara yazamuye urutoki rw'igikumwe.

Umukobwa w'inzobe uri guseka ufite imisatsi miremire y'umukara afite terefone ngendanwa, mu kiganza asa nk'uri kuyerekana yanditsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru yayitunze urutoki.

Umugabo uri guseka wambaye ishati iciyemo imirongo n'umupira w'umweru mo imbere ufite terefone ngendanwa mu ntoki igaragaramo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, inyuma ye hagaragarara imisozi.

Umukobwa wicaye mu cyumba kirimo n'abandi bantu, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'imashini ifotora impapuro, abandi bantu bamukikije barahagaze.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe zirimo imibare hejuru mu nguni y'iburyo hagaragara igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda naho mu y'ibumoso hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditsemo amagambo y'umukara ndetse n'ayandi y'umuhondo, munsi yashushanyijemo imbonerahamwe yanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru hagaragara ikirangantego cy'u Rwanda gishushanyije, mu yindi nguni hagaragara ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweruru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hasi hashushanyije imbonerahamwe zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyijeho imbonerahamwe ebyiri, zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mw’ibara ry'umukara, hashushanyijeho n'imbonerahamwe zirimo amagambo ndetse n'imibare. Hejuru mu nguni har’igishushanyo cyerekana ikigo cy’igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu y’indi nguni har’igishushanyo cy'ikirangantego cy'U Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru mu nguni hari igishushanshanyo kerekana ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo kerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi yashushanyije imbonerahamwe ebyiri zanditswemo amagambo ndetse n'imibare hejuru mu nguni mu ruhande rw'iburyo hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda mu yindi nguni mu ruhande rw'ibumoso hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe irimo amagabo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe irimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru mu nguni mu ruhande rw'ibumoso, hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni mu ruhande rw'iburyo hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Inote zisandaguje ku meza, harimo inote yanditseho ijana, iriho igishushanyo k'inyamaswa bita inzovu, haruguru yayo hari indi note iriho inyamaswa bita imparage.

Amafaranga menshi asandaguje ku meza, ari mabara agiye atandukanye, kuri buri note hashushanyijeho ishusho y'umusaza ugaragara igihimba, ufite amarinete ku maso, udafite umusatsi.

Inoti zifite amabara atandukanye zirambitse hasi, hejuru hari inote yanditseho igihumbi ikurikirwa n'indi yanditseho ibihumbi bibiri, hakurikirwaho n'indi yanditseho ibihumbi bitanu agasozera yanditse ibihumbi icumi, iriho ishusho y'inyamaswa y'inzovu harambitseho ibiceri byinshi hejuru.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge imbere ye hari ikirahure kimutandukanya n'undi mugore uri guseka wambaye igitambaro gitukura mu mutwe wambaye n'imyambaro yo mu ibara ry'umukara.

Ibiganza bifite amafaranga mu ntoki, yanditseho igihumbi, ashushanyijeho umugabo, imbere ye ku meza hari andi mafaranga yanditseho ijana, ashushanyijeho inyubako.

Inote yagiye ifite amabarage atandukanye, yanditseho makumyabiri, hejuru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igishinwa, ku ruhande hashushanyije isura y'umugabo ufite umusatsi wambaye n'umwambaro ufite ikora rifunze.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n.ay'umweru, yambaye isaha ku kuboko ntagaragara igice cy'umutwe, afiteti amafaranga mu ntoki n'ayandi amuteretse ku ruhande.

Icyapa cy'umuhondo kigaragaraho amagambo ndetse n'imibare ,hagaragaraho amabendera y'ibihugu harimo amerika ,bwongereza ,kenya ndetse n' ubugande hejuru hari igishushanyo cyerekana banki nkuru y'u rwanda.

Inoti yanditseho ibihumbi makumyabiri iri mu ibara rijya gusa nka kaki mo hagati harimo ibishushanyo bibiri by'inyamaswa bita udusumbashyamba ndetse n'ikindi gishushanyo kiri mu ibara ry'umukara gifite isura ijya kumera nk'iy'umuntu.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara muremure ufungiye inyuma, ufite igikapu cy'umukara mu mugongo, wambaye agapfukamunwa k'umukara, ahagaze imbere y'ahantu hari icyapa, gishushanyijeho imbonerahamwe, irimo imibare, amagambo, ndetse hariho n'amabendera y'ibihugu, nk'amerika canada ubushinwa ndetse n'ubuyapani.

Inyubako ifite umuryango ukinguye uriho icyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru hari ikindi cyapa gitambitse kiri m'ibara ry'icyatsi kibisi handitsemo amagambo ari m'ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Umukobwa wambaye umupira utukura ufite imisatsi iboshye ku mutwe uhagaze mu muryango ufite urugi rukinguye ruriho ibyapa byinshi, hari ibishushanyijeho amabendera y'ibihugu nka Kenya, Uganda ndetse na Tanzaniya.

Umugabo ugaragara nk'umuzungu wambaye ishati y'amaboko magufi iciyemo imirongo, watanze ibiganza uri kwakira amafaranga, hari n'ibindi biganza biri kumuha amafaranga biyacisha munsi yikirahuri.

Icyapa kiriho imbonerahamwe yanditsemo imibare ndetse n'amagambo, hagaragara n'amabendera y'ibihugu harimo Kanada, Ubuyapani Uganda u Burundi ndetse na tanzania.

Imbuga iteretseho intebe zo mu mabara atandukanye, harimo zimwe zifite amabara ajya gesa nk'umweru, n'izindi zifite ibara rijya gusa n'itukura. Hagati yazo hari ineza, ku ruhande hari utundi tune dutoya tw'uruziga turi mu ibara ry'umweru.

Umuhanda usashemo amabuye, uteretsemo ameza y'uruziga, akikijwe n'intebe enye, hakurya hari umuhanda uri kugendamo imodoka nini itwara ibintu, ndetse n'ipikipiki, hagaragara n'amazu y'amagorofa.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro kirimo intebe z'amoko abiri harimo izitukura n'izindi zigaragara nk'umweru, ku madirishya hamanitse ibitambaro birinda urumuri ku gikuta hamanitse insakazamashusho.

Intebe zigaragara nk'izo mu ruganiriro ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'izifite ibara ry'umukara, hagati harimo ameza y'amabara y'umukara ku ruhande hagaragara ikigega cy'umukara kibika amazi y'imvura.

Imbuga isashwemo amabuye iteretsemo ameza y'uruziga abajwe mu giti azengurutswe n'intebe zibajwe mu giti, imbere hagaragara inyubako ifite inzugi ndetse n'amadirishya.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, kirimo amoko menshi y'intebe, harimo intebe zirimo imisego hari n'izindi zirimo ibara y'umukara zibaje mu giti, zifite n'ameza ari hagati yazo.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo inzoga, giteyemo intebe zigaragara nk'aho ari ndende, imbere hari utubati duteretsemo amacupa y'inzoga, hejuru hateretse insakazamashusho.

Ahantu hateye intebe ziri mu ibara ry'umweru zifite amaguru y'umukara zikikije ameza ariho amasahani, ibikombe, amafurusheti, ibiyiko, ndetse n'ibirahure birimo ibyo kunywa.

Inzu ebyiri z'igorofa zisakarishijwe amategura, imbere yazo hateye ubusitani burimo ibiti, imbere y'ubusitani hagaragarara agace gato k'umuhanda wa kaburimbo, imbere hariho uturongo turi mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba giteyemo intebe n'ameza biteye mu matsinda, intebe ziri mu ibara ritukura, hagati yazo hakaba hari ameza ateretseho indabo ndetse n'utundi dutambaro tuzinze, mu madirishya hari ibitambaro birinda urumuri.

Icyumba kigaragara nk' icy'inama kiticayemo ahantu hari intebe z'umukara zikikije ameza ajya kugaragara mu ibara rya kaki hari n'amacupa y'amazi yateretse ku meza hakurya ku gikuta hari insanganyamashusho.

Ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo bicucitse, bufatanye n'imbuga ishashemo amabuye y'amabara atandukanye, imbere yaho hari inzu y'igorofa ifite ibirahuri, hejuru hagarara ahantu hateye intebe ndetse n'ameza.

Icyumba kirimo intebe zo mu bwoko butandukanye, harimo intebe imwe y'ubururu, imbere yayo hateretse ameza ateretseho indabo, hejuru hamanitse insakazamashusho, ndetse harimo n'akabati, hari n'ibitambaro birinda urumuri ku madirishya.

Inzu y'igorofa igaragara igice cyo hejuru imanitseho ibyapa biri mu mabara agiye atandukanye, hejuru hagaragara agace gato k'ikirere kari mu mabara abiri harimo ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba cyicayemo umugore wambaye umwambaro w'icyatsi wicaye ku ntebe igaragara mu kaki, imbere ye hari ameza mu ibara ry'umweru ateretseho mudasobwa, imbere ye hahagaze undi mugore wambaye ingofero mu mutwe ndetse n'ikote ry'umweru bari gusuhuzanya.

Umugabo wambaye ipantaro n'ikote bigaragara mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, imbere y'ameza hagaragara umugabo wambaye ishati y'umweru, inyuma yabo hagaragara ibyapa byanditseho inyuguti nkuru ya ma.

Abantu bane bari guseka harimo umusore ufite inyundo ku rutugu wambaye imyambaro y'ubururu afite n'ingofero y'ubwubatsi mu ntoki iruhande rwe hari umugore wambaye imyambaro y'umweru n'umukara afite igitabo cy'ubururu mu ntoki inyuma ye hari umusore wazamuye ikiganza yazamuye urutoki rw'igikumwe inyuma ye hari undi mukobwa wambaye imyenda y'umweru.

Icyumba kigaragara nk'ikinama kicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye, ku ntebe zirimo ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi cyerururutse, hateretseho amakayi ndetse n'amacupa.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru uciyemo umurongo w'umukara, ufite imisatsi ishwambaguje ku mutwe. Afite ikaramu mu ntoki, yayishyize mu mutwe, iri mu ibara ry'umuhondo, afite n'ikaye mu ntoki yo mu ibara ritukura.

Umukobwa uri kugaragara igice cy'igihimba, wambaye ikote y'umweru, n'agapira k'ubururu mo imbere, afite imisatsi ibocye ifungiye inyuma ye, hejuru ye handitse amagambo ndetse n'imibare.

Abagore babiri bahagararanye umwe ateze igitambaro mu mutwe undi afite imisatsi miremire y'umukara yambaye agapira k'amaboko magufi, undi yambaye agapira k'amaboko maremare, bafite icyapa gitoya mu ntoki buri wese afasheho cyanditseho amagambo y'umukara.

Umukobwa uri guseka wambaye igitambaro mu mutwe, ikote n'ipantaro by'ikoboyi, inyuma ye hagaragara igice gitoya k'imodoka hagaragara n'imisozi ye.

Abagore babiri begeranye bari gusiga, umwe afite imisatsi iboshye yambaye n'ishati iri mu ibara ry'ubururu, yambaye n'ibitare by'amasaro ku kuboko. Iruhande rw'abo handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi kibisi y'amaboko magufiya, bambaye udupfukamunwa bari mu cyumba gifite itara hejuru, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Ahantu hari abantu benshi hari abahagaze ndetse n'abicaye hari umukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi n'ingofero y'umukara mu mutwe imbere ye hari ameza agaragara mu ibara ry'umweru arimo impapuro afite terefone ngendanwa mu ntoki agaragara nk'uri gufotora.

Icyumba gihagazemo abantu benshi, harimo umugabo ufite imvi mu bwanwa, wambaye ikoti, ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hahagaze undi mugore wambaye imyenda y'umukara, imbere hakaba hahagaze umugore wambaye ijipo ijya gutukura, ndetse n'ikote, imbere yabo hari umugore wicaye wambaye umupira w'umuhondo, ufite mudasobwa imbere ye, batandukanyijwe n'ikirahure.

Imbuga y'igitaka igaragara nk'aho ari mu isoko hasi harambuye imyenda, hari n'abantu bafite imitaka yo mu mabara atandukanye n'urunyurane rw'abantu.

Inyubakosakayishijwe amabati mu'i ibara ry'ubururu imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu harimo n'abagiye bikoreye imifuka ndetse n'uyeretse ku mugongo hagaragara n'imodoka y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ufite agakapu k'ubururu mu nda, wikoreye imineke, uri kugenda mu muhanda uri kugendwamo n'abandi bantu, iruhande rwawo hagaragara inzu y'igorofa.

Umugore wambaye igitambaro cy'icyatsi kibisi mu mutwe, wicaye imbere y'imbuto zitondetse mu matsinda, harimo imbuto z'amacunga n'iz'indimu, hejuru yazo hari imyumbati iharunze.

Abantu bahagaze ahantu hagaragara nkaho bahacururiza imyenda, harimo umusore wambaye ingofero ayirebesha inyuma, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umweru iruhande rwe hahagaze umukobwa wifashe mu mugongo.

Icyumba kigaragara nk'icy'ubucuruzi kimanitsemo ibitenge biri mu mabara atandukanye, n'imitako y'imigongo imitako ikozwe mu biti n'ibitare bambara ku maboko, ndetse n'udukapu tw'umwenda batwara ku rutugu.

Imbuga y'igitaka iri kunyuramo abantu batandukanye, harimo umugore uhagaze wambaye igitenge hasi, yambaye umupira utukura, afite indobo y'ubururu imbere ye ihatetse n'umugabo wambaye ingofero y'urugara mu mutwe, hagaragara n'inyubako.

Umugore wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi ateze igitambaro mu mutwe, yasobekeranyije amaboko yifashe mu gatuza, imbere yiwe hagaragara imineke ya kamara n'avoka.

Inyubako igaragara nk'iyo bacururizamo ibyo kurya harimo abantu batandukanye. Harimo ibyo kurya nk'ibitoki, inyanya, karoti, intoryi, amashu, ndetse n'imboga za dodo.

Icyumba kigaragara nk'icy'ubucuruzi, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibiseke, ingoma, imyuko, ndetse n'ibishushanyo by'imigongo, utibagiwe n'ibitare bambara ku maboko.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, yambaye agapira k'amaboko maremare, gaciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, imbere ye hari imbuto z'amoko atandukanye harimo inanasi imyembe n'amatunda.

Umukobwa uri guseka wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya, imbere ye hari ibyo kurya, inyuma ye hagaragara ibitoki, iruhande rwe hari ivoka na afashe igitunguru cy'umweru mu ntoki, imbere ye hari umugabo wambaye umupira utukura.

Abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bahagaze ahantu hagaragara nk'isoko, hagaragara inyubako isakarishijwe amabati mu ibara ry'ubururu, hari n'ikirundo cy'ibitoki byinshi.

Imbuga ihagazemo imodoka ndetse n'igare n'ipikipiki ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo, hari kugendamo imodoka ndetse n'amapikipiki, hakurya y'umuhanda hagaragara inzu y'igorofa.

Akazu gatoya kagarara mu ibara ry'umuhondo gakinguye idirishya mu imbere hicayemo umuntu, imbere yako hahagaze umugabo wambaye ipantaro irimo ibara ry'umukara wambaye n'ishati y'amaboko maremare y'ubururu.

Umutaka ugaragara mu ibara ry'umuhondo munsi yawo hari abantu bambaye imyambaro y'umuhondo inyuma ya hari imodoka z'ubwoko butandukanye hari n'agace gato karimo ubusitani hagaragara n'inyubako.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo bafatanye mu biganza, umwe muri bo agaragara nk'ufite uruhara, inyuma yabo hari abantu bari kubareba ndetse n'umutaka uri mu ibara ry'umuhondo.

Akazu k'umuhondo kanditseho amagambo y'umukara hejuru, gafite idirishya rikinguye, mu idirishya hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'amaboko magufi urimo amabara menshi, undi yambaye ingofero y'umweru mu mutwe, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufiya wambaye amadarubindi ku maso, imbere ye hari mudasobwa, ari kurebamo imbere ye hagaragara abantu, harimo n'abari kureba muri telefone ngendanwa zabo, inyuma ye hari ingufuri zimanitse.

Abantu benshi, bamabeye imipira iri mu ibara ry'umuhondo, y'amaboko magufiya, bamwe bahagaze, hari n'undi wunamye, inyuma yabo hari guca umugore wambaye amadarubindi ku maso, ukikiye amvilope, indi ayifashe mu ntoki.

Umugabo muremure wambaye umupira w'amaboko magufiya wo mu ibara ry'umweru, imbere ye hahagaze abagabo batatu bambaye imipira y'umuhondo irimo n'umukara bahagaze imbere y'inyubako isize amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umuntu wambaye umwambaro w'umuhondo, wambaye n'agapfukamunwa mu isura, imbere ye hahagaze ipikipiki iriho n'umuyobozi wayo, ahicara umugenzi hateretse agasanduku kari mu mabara y'umweru kanditseho n'amagambo y'umukara.

Ahantu hamanitse icyapa gitoya cy'umuhondo cyanditsemo amagambo y'umukara hagaragara n'ikiganza gifashe agaterefone gatoya ngendanwa kari kwaka handitsemo amagambo yo mu'ibara ry'umweru.

Akazu gatoya ko mu ibara ry'umuhondo, gakinguye amadirishya yose, mo imbere harimo umukobwa wambaye isaha, inyuma hari undi uri mu idirishya, mo imbere hamanitsemo ibyapa by'umuhondo ndetse n'umutuku bishushanyijeho imbonerahamwe, haruguru hateye igiti kinini.

Akazu kagaragara mu ibara ry'umuhondo gafite amadirishya abiri afunguwe kazengurutswe n'abantu bambaye imyambaro ari mu mabara atandukanye hari n'uw'umugabo wambaye agapira k'amagufi k'umweru n'umugore ufite igikapu mu ntoki wambaye isaha ku kuboko.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya yambaye n'isaha ku kuboko ndetse n'ingofero mu mutwe yurugara, ahagararanye n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara mugufi, yambaye na we isaha ku kuboko afite terefone ngendanwa mu ntoki yambaye ingofero.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya; yambaye amadarubindi ku maso, nta musatsi afite; imbere ye hari ameza arambitseho igitabo kirimo ikaramu ndetse na mudasobwa; imbere yayo meza hari undi mugabo wambaye imyambaro mu mabara atandukanye.

Umuntu wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufiya, wambaye ingofero irinda abantu batwaye ipikipiki yo mu ibara ry'ubururu, afite agakarito k'umweru mu ntoki ashaka gushyira mu gasanduku k'ubururu kari imbere ye.

Abakobwa babiri bari guseka, umwe afite imisatsi iboshye, yambaye umupira wo mu ibara ritukura, undi yambaye umupira urimo icyatsi, afite agakarito mu ntoki kari mu ibara ritukura.

Agasanduku k'umuhondo, imbere yako hahagaze umugabo wambaye imyambaro yo mu mabara menshi higanjemo ibara ry'ubururu, yambaye ingofero y'umuntu, utwara ipikipiki afite amverope yateretse hejuru y'agasanduku k'umuhondo.

Ipikipiki yo mu ibara ry'umukara iteretseho agasanduku k'umukara ndetse n'icyatsi, inyuma yako hahagaze umugabo wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara n'ingofero mu mutwe bambara bagiye ku ipikipiki, imbere ye hahagaze undi mugabo wambaye ishati y'umweru.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi wanditseho amagambo y'umweruru mu mugongo ufite umusatsi mwinshi ufungiye inyuma, ahagararanye n'undi mukobwa ufite imisatsi migufi ya wambaye ishati bari guhererekanya amvilope irimo karoti ndetse n'icupa.

Umusore wicaye ku ipikipiki, yambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufiya, yambaye inkweto z'umukara, ndetse n'umweru, inyuma ku ipikipiki ahicara umugenzi hateretse agasanduku karirimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara.

Icyumba kirimo abantu babiri harimo umugore umwe w'umwirabura, ndetse n'undi mugabo w'umuzungu, wambaye ishati y'umweru n'pantaro y'umukara, hagati yabo hari ameza azengurutswe n'intebe inyuma hari akabati.

Icyumba giteyemo intebe zizengurutse ameza biri mu ibara ry'umweru, hari n'ibikuta by'umweru n'itara riri kwaka hejuru, hahagazemo abantu babiri, umukobwa ndetse n'umuhungu, umuhungu akaba ari umuzungu, umukobwa akaba ari umwirabura, ku rukuta hamanitse amafoto.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, kirimo intebe zo mu mabara atandukanye, gifite ibikuta by'umweru, hamanitseho insakazamashusho, iruhande rwayo hamanitseho indabo.

Imbuga isashemo amabuye, ahagazemo umukobwa wambaye ipantaro n'ishati, ku ruhande hari ibikombe biteyemo uduti dutoya, inyuma hagaragara imodoka zamabara atandukanye ndetse n'igorofa.

Imbuga isashemo amabuye ku ruhande hagaragara ahantu hasa nk'ahahinze, harimo ikinogo kirimo amazi imbere hakagaragara inyubako isakarishijwe amabati yo m’ibara ritukura hari injerekani ndetse n'umuntu.

Inzu y'amagorofa abiri ifite ibikuta by'umweru, imbere yayo hateretse akabindi gateyemo indabo n'utundi tubindi twinshi twegeranye, imbere yayo hari imbuga ifitemo amabara ajya gutukura.

Amagambo y'umweru inyuma yayo hagaragara inzu ndende y'igorofa, ifite amabara atandukanye hejuru hagaragara ikirere kiri mu mabara abiri harimo ubururu ndetse n'umweru.

Abantu bahagaze hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye higanjemo abagore, imbere hahagaze abagabo babiri umwe yambaye ikote bafite icyapa kinini cy'ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Abantu bahagaze mu gisambu bareba inzu yubakishije ibati ry'ubururu ndetse n'amatafari ahiye, inyuma y'abo hicaye abandi bantu bitwikiye umutaka.

Ahantu hicaye abantu bazengurutse ameza y'igiti, ateretseho impapuro ndetse n'igikapu cy'umukara, inyuma yabo hagaze abandi bantu, inyuma hagaragara ibiti.

Abantu babiri bahagararanye bose bafashe ku gakapu karimo ibara ry'umweru harimo umugabo umwe ndetse n'umugore umwe inyuma yabo hari icyapa kigaragara mu ibara ry'ubururu.

Abasore babiri bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hagaragara icyapa cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hagaragara agace gato k'ameza.

Igikuta cy'amatafari ahiye hejuru hagaragara icyapa kiri mu mabara kirimo umweru cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi ashushanyijeho n'ikirangantego cy'u Rwanda, munsi y'icyapa hateye igiti cy'isombe.

Abantu bahagaze hamwe, abandi basutamye imbere yabo, bambaye imyambaro nk'iy'abayisilamu, bafite udupapuro mu ntoki turiho amafoto yabo, harimo n'abandi bagabo babiri bambaye imyenda isanzwe.

Umukobwa uri guseka wambaye umwambaro w'ubururu, afite inyundo ku rutugu, yambaye n'amadarubindi n'ingofero iri mu ibara rijya gutukura y'ubwubatsi, hejuru ye handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo ibyo kunywa, kirimo utubati dutatu tw'ibirahure, hasi dusize ibara ry'umukara. Hagiye harimo amacupa y'ibyo kunywa harimo ibiri mu macupa ya plastike n'ibiri mu macupa y'ibirahuri.

Umukobwa wambaye ikoti y'ikoboyi, mu imbere yambayemo umupira w'umweru, afite imisatsi iboshyeye ku mutwe, yambaye amadarubindi ku maso, ahagaze ahantu hari utubati dupanzemo ibintu, yazamuye ukuboko.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite igikapu cy'umweru ku rutugu, cyanditseho amagambo y'icyatsi, imbere ye hari utubati dutondetsemo ibyo kurya, harimo insenda, ntangawizi, ndetse na puwavuro z'umuhondo n'izitukura.